Urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu bitambuka mu mihanda myiza hitabwa ku byapa biyobora abagenzi. ibyemerera imodoka gutambuka, ndetse n'abanyamaguru bagatambuka, byose bigahurira mu muhanda.

Inzego z'umutekano zishoreye abasore bambaye amapingu, bigaragara ko bafite imyitwarire mibi, bajyanwe mu igororero ngo bigishwe uburyo bwo kubaho batabangamiye, batanahungabanyije umutekano w'abanyarwanda.

Inteko y'abaturage n'inzego z'umutekano zamanutse ngo zibegere. Ushinzwe umutekano wambaye umwambaro wa gisirikare, arifashisha indangururamajwi mu rwego rwo kugira ngo umuturage wese yumve ikigamijwe.

Abasirikare benshi bahuriye hamwe bambaye imyenda ibaranga nk'ingabo z'u Rwanda inkweto, ingofero, intwaro zabo barazifite. Ibi nabyo ni ikimenyetso cy'uko umutekano w'u Rwanda urinzwe.

Urwego rw'umutekano rwa gipolisi， ntabwo ruwucunga rwifashishije imodoka n'amaguru gusa， ahubwo bafite n'amato，bivuze ngo nta watera u Rwanda aturutse mu mazi kuko naho bafite ibikoresho bishoboye.

Gucunga umutekano mu Rwanda byaroroshe, aho abapolisi beza batojwe basigaye bahabwa imodoka nziza, ku buryo umugizi wa nabi aho yaba ariho hose bahita bamufata, bitagoranye cangwa ngo bisabe amasaha menshi ataratabwa muri yombi.

Abaturage benshi bicaye imbere y'amazu y'ubucuruzi. Abagore n'abagabo bose baricaye, abandi barahagaze bashungereye ibyabaye. Inkongi y'umuriro yabaye muri ago mazu.

Inzego z'umutekano ubu ngubu zegera abaturage. Ariko kera wasangaga abaturage bazibona bakanirukanka, kubera ubwoba. Ariko ubu siko bimeze rwose baregerana bagafatanya mu gukemura ibibazo byugarije abaturage.

Mu rwego rwo gucunga umutekano w'abaturage n'ibyabo, inzego z'umutekano zifite ubwoko bw'imodoka zagenewe gutabara no kuzimya umuriro. Ahabaye inkongi y'umuriro, zitabara vuba nta buzima bw'abantu n'ibyabo birahangirikira.

Ihuriro ry'abayobozi rigizwe n'abagore n'abagabo bose bicajwe no gushakira icyagirira akamaro umuturage, bari mu nama bicaye ahantu hateguye neza, mu mabara meza y'umutuku n'umweru bafite n'amazi bari kunywa.

Ihuriro ry'abantu bari mu nama abagore n'abagabo, bose bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kugira ngo rero igitekerezo batanze cyumvikane hifashishwa indangururamajwi, ku buryo n'uwicaye kure habasha kumva neza ikivuzwe.

Icyumba ciza giteguwe co gukoreramo inama abagore n'abagabo bambaye neza bicaye ku dutebe twiza dufite ibara ry'umutuku kirimo amarido y'umukara.

Ihuriro ry'abaturage benshi bicaye batuje basa n'abategereje ko harema inama, cyangwa ibyo mu Rwanda twise inteko y'umudugudu akagoroba k'umudugudu, byose hagamijwe guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Abaturage benshi bicaye batuje ahantu hateguwe neza. Abagore n'abagabo ndetse n'inzego z'umutekano nka daso, bose bategereje ijambo riri buhavugirwe, mu nama iri bibungure ibitekerezo bishya.

Abaturage bahuriye hamwe mu nama bungurana ibitekerezo, ndetse no gukemura ibibazo bibabangamiye. Umusaza arifashisha indangururamajwi kugira ngo abaturage aho bicaye hose, babashe kumwumva biryo bafatira umwanzuro hamwe.

Ihuriro ry'abaturage ndetse n'ingabo z'igihugu bahuriye hamwe mu nama bicaye batuje basa neza bategereje kumva icyo ubuyobozi bwaje kubabwira.

Icyumba cyiza giteguye neza, kirimo intebe n'ameza, gihuriwemo abagore n'abagabo bari mu nama. Harifashishwa n'indangururamajwi kugira ngo n'uwicaye kure yumve igitekerezo kivuzweho.

Ibikoresho bitandukanye nk'uruho, ikibindi, isekuru, byakoreshwaga n'Abanyarwanda cyane cyane abavuzi ba gakondo, mu migenzo yabo yo kuvura ababagana.

ibiranga umuco nyarwanda hakubiyemo : igisabo, imikenyero byifashishwaga hagaragazwa itandukaniro hagati y'umuco w'abanyarwanda n'imico y'abanyamahanga kuko ibyo bikoresho nta handi wabisanga.

Ibirori byose ingoma zikoreshwagamo usangaga rwose bishushe. Abaturage bagahaguruka bakabyina cane cane intore ziba zarabyize neza, aho usanga buri muntu wese ashishikarijwe no kuzireba ndetse no kumva umurisho w'ingoma.

Imbyino gakondo z'abanyarwanda zirangwa n'imyambaro yihariye ishabure ndetse n'urugori. Aho ababyina bataba barakaye ahubwo baba bamwenyura ukabona biryorohereye kubireba ndetse n'abanyamahanga bakabigirira amatsiko.

Intore mu Rwanda zahoze zahoraga ziri kubyina, kandi zigahora zambaye neza, aho zambaraga nk'amayogi zikavuna sambwe, abazirebaga bose bakizihirwa. Ibyo byose bikaba mu birangaga umuco nyarwanda tugasanga ahandi.

Abanyarwanda bagira imigenzo nko gutura no kugemurirana iyo bayikora bifashisha ibikoresho gakondo nk'ikibindi ,ibiseke, udutebo bagashyiramo ibyo bageneye abo basuye.

Gukama no gutara bimwe mu biranga umuco nyarwanda. Ibitoki barabitara byasha bakabikamira mu muvure, bityo hakavamo umutobe mwiza w'umwimerere cyangwa urwagwa.

Ububoshi bwahoze ari isoko y'iterambere. Abagore bahekaga abana bakabahoha ibiseke, nk'ibirango by'umuco nyarwanda, kandi bikabahesha amafaranga, yo gutunga imiryango ya bo.

Umudaho cyangwa se umwuko ufukuye ni igikoresho cyifashishwa mu gikoni duteka, cyane cyane tugiye gutahura imboga, iki gikoresho kibikora neza cyane rwose.

Umuco nyarwanda ugira ubwoko bwinshi bw'imyidagaduro. Imbyino nazo zirimo. Kandi umuntu ntabyina yifumbase, abyinaga ari kwitakuma bagakoma n'amashi, bakavuza n'ingoma. Ku buryo abumva baryoherwaga.

Itsinda ry'ababyinnyi b'imbyino gakondo, bambaye neza imishanana y'ubururu, utwenda tw'umweru, amayogi ku birenge, ku buryo injyana ya bo ishishikaza abarebyi ndetse n'abumva.

Umutiba benshi bita umuzinga ni igikoresho nyarwanda cifashishwa mu gushaka ubuki, buturutse ku nzuki kandi buba ari ubuki bw'umwimerere buvagamo n'imiti ikora byinshi mu buvuzi.

Inanga igikoresho c'umuziki gifite imirya igizwe n'utugozi dutanga amajwi atandukanye, cakoreshwaga n'abanyarwanda baba abagore cangwa abagabo, bose bacifashishaga mu buryo bwo kuririmba no kunoza umuziki.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere birimo, umuvure bakamiragaho ubutanda bakamuriragaho ibyo bakamye, uducuma banyweragamo ndetse n'inzuho bifashishaga banwa.

Inanga igikoresho abanyarwanda ba kera bifashishaga, mu kwidagadura bari no kwigisha abana babo umuco nyarwanda, bakabikora kenshi kugira ngo urubyiruko ruzakunde imikino n'imyidagaduro mu gihugu cabo.

Abanyamahanga n'abanyarwanda basangirira ku kabindi n'imiheha bizihiza umuco nyarwanda, nabo bishimiye kwambara nk'uko abanyarwandakazi twambara imikenyero n'ibindi.

Ibyarangaga umuco nyarwanda hari harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ikijigo cangwa se abandi bita inkono y'itabi, iki co cafatwaga nk'ikintu c'ibanze ku basaza n'abakecuru.

Akamamiyo benshi bita kadaho naku kuko ayo mazina yose, nay'igikoresho cifashishwa mugikoni cane cane iyo turi guteka imbog,a ico gikoresho turacyifashisha.

Kubyina ni umugenzo wa kinyarwanda, agaseke imishanana benshi bita imikenyero, ishabure, amayogi, ibyo byose ni ibikoresho ababyinnyi bakoresha, maze uhari wese akishimira umuco nyarwanda.

Igiseke, inkongoro, imbehe, ingabo, icyansi byose ni ibikoresho biranga umuco nyarwanda ku buryo ari umwihariko wacu mu Rwanda.

Mu birango by'umuco nyarwanda igiseke rwose kirimo, ibiseke bibohwa mu buryo butandukanye, bitakwa n'amabara atandukanye nk'umweru, icyatsi kibisi, umutuku, umuhondo ku buryo igiseke n'umutemeri waco ubona kiryoheye ijisho.

Igikoresho cyiza kiva mu biti bihingwa iwacu ari cyo cyitwa imigano, ku buryo aho ugeze bakihateretse, ubona rwose ari cyiza kibonereye, n'abanyamahanga bakagikunda ku buryo batarambirwa kukireba.

Ibirori byahuje abantu benshi aho bari gukurikirana imyiyereko y'inka nziza zitwaga inyambo izo nka zikaba zitabonekaga ahandi mu mahanga uretse mu Rwanda zigatega amahembe yazo neza nk'uko ababyinnyi na bo bategaga amaboko.

Ikigega igikoresho gakondo cyifashishwaga bahunika imyaka nkuko ubungubu tuyirundira mu mifuka yabugenewe, birinda ko yagira uburwayi butewe no gufatwa nabi cyangwa se kunyagirwa.

Mu biranga umuco nyarwanda habamo n'imbyino, ababyina bagira imyambarire yihariye nk'imikenyero, amayogi, byansi, ibisabo, ibyo byose ni ibiranga umuco nyarwanda.

Agacuma karimo umuseke benshi bita umuheha, kifashishwa n'abanyarwanda mu gusangira ibinyobwa nkuko ubu twifashisha ibikombe, agacuma nako bagashyiramo ibinyobwa nk'urwagwa n'ibindi.

Isogi ni ubwoko bw'imboga ubukura buzamuka ariko ntibugira uruti rurerure cyane. Isogi zirinda indwara ziraribwa, zigira ururabo rw'umweru ni umwihariko wazo.

Isoko ryubatse ku buryo bwa kijambere ricuruza ibikoresho bitandukanye nk'imyuko, indobo, imbabura, inkoko, ibikapu byifashishwa mu guhaha, n'imikubuzo.

Inkono zikoreshwa mu buryo bwinshi, hari abazikoresha bari guteka, ndetse banazivugaho ko ziteka ibiryo biryoshye nk'inyama, isombe, ku buryo n'abazicuruza zibahesha n'amafaranga.

Umutahira w'inyambo wambaye ingofero nziza， n'inkoni ye nziza， n’agakenyero yambaye， ndetse n'inka nziza z'inyambo， ziteza amahembe. Uyu ni umwihariko w'ibirango by'umuco nyarwanda.

Hari ibikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda mu gucuranga, ndetse no kwizihiza ibitaramo byabo. Umuduri na wo wabaga uri muri Ibyo bikoresho bakawifashisha bari gucuranga, nk'uko ubu twifashisha inanga.

Amasunzu yagirwaga n'abagabo mu Rwanda rwo hambere. Ikaba ariyo nyogosho bahurizagaho bityo abatarayagiraga bafatwaga nk'abatazi umuco nyarwanda n'ibiwuranga.

Ibiranga umuco nyarwanda nk'igiseke, ikirango ibyo byose usibye kuba bifasha n'abaturage mu kwiteza imbere. Nta handi wabisanga uretse mu muco gwacu nk'abanyarwanda, nk'ibikoresho twubaha iwacu mu Rwanda.

Uruho rurimo ikigage, ruteretse ku ngata nziza iboheshejwe ibirere, byose biteretse ku gakeka keza k'amabara meza nk'umutuku, umweru, ndetse n'icyatsi.

Umweyo, igisabo, inkoko, imikenyero byose ni ibirango by'umuco nyarwanda. Inkoko yifashishwa tugosora, igisabo cyifashishwa mu gutunganya amata, umweyo wifashishwa dukubura cyangwa se dukondora.

Agakono k'ibumba: lgikoresho gakondo cy'abanyarwanda, bagakoresha bari guteka, ndetse hari ibiryo bivugwa ko iyo bitetsemo biryoha kurusha ibindi, nk'inyama, isombe, n'ibindi bitandukanye.

Uruho ni igikoresho abanyarwanda bo hambere, bifashishaga mu busabane mu birori. Nkuko ubu dukoresha ibikosi nabo niko bakifashishaga, basabana banaywa, ibyo bateguye nk'imisururu ibigage n'ibindi.

Mu bugeni n'ubukorikori habazwa ibikoresho byinshi. Ndetse n'amashusho y'abantu arabazwa. Umugore ufashe umwana, ishusho ye ishobora gukurura abandi bashaka ayo mashusho.

Umuco gwacu ni mwiza. Biratangaje ko n'abanyamahanga baturukaga mu bihugu byabo bakaza kugwigana nko kuvuza ingoma, kubyina no guhamiriza, kuko babonaga ari ibintu byiza kandi batabonaga iwabo.

Mu migenzo z'abanyarwanda bo hambere habagamo n'umugenzo go guheka. Abami, abageni bose barabahekaga bakabavana mu gace kamwe babajana mu kandi kuko aribwo bwari uburyo bwabo bwo kugenda.

Ubuvumvu umurimo gakondo w'Abanyarwanda. Abavumvu ni abarozi b'inzuki. Imizinga yororerwamo inzuki, iterekwa ahantu hirengeye, zikazamo zigakoreramo ubuki, ku buryo ababusarura baba bafite imyambaro yihariye utasanga ahandi, usibye muri uwo mwuga.

Mu Rwanda rwo hambere abakuru n'abato bagiraga uburyo bwo kwidagadura kubuguza mu kitwa igisoro rero nabyo byari umwitozo mwiza bagakina bakanatsindana bakishima mu buzima bwabo bakanasangira.

Umuvure igikoresho gakondo cy'abanyarwanda bifashishaga bakama ibitoki, bari gukora urwagwa ndetse n'ibindi byose biva mu bitoki, ikirago naco ni ikiranga umuco nyarwanda.

Umutiba abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere bifashishaga bahunika imyaka yabo, cyabaga kiboheshejwe utugano basasanuye, kigasakazwa ibyatsi mu rwego rwo kurinda umusaruro babitsemo.

Inzu yubatse nk'uko iza kinyarwanda kera zabaga zubatse ku buryo bwa muviriyengo, isakaje ibyatsi bicumye neza, ku buryo idatura. Mu muryango wayo hari intebe ya kinyarwanda.

Umuboshi w'ikirago arifashisha ibiboneka hano iwacu mu Rwanda, birimo ibyatsi biba mu bishanga byitwa "ubusuna". Ikirago ni kimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Gusya ni igikorwa cyakorwaga mu banyarwanda bo hambere bashaka ifu. Ibikoresho byifashishwa mu gukora igikorwa cyo gusya， ni urushyo n'ingasire hagakenerwa n'imyaka basya.

agasanduku kabika umuriro w'amashanyarazi kakifashishwa n'abakora imyuga nko gukanika gafite inyobozi zibayobora uburyo bwo kugakoresha inyobozi y'umukara n' ifite ibara ry'umutuku bituma bidatwika ababikoresha ngo bitiranye aho bagomba gucomeka

Mutobozi ni igikoresho cyifashishwa bafunga cangwa bafungura utwuma, ndetse banasuzuma ko mu nsinga harimo umuriro w' amashanyarazi, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Mubazi y'amashanyarazi, aho umuturage agura umuriro akamenya uwo amaze gukoresha, akamenya n'usigayemo. Ifite insinga zitandukanye, izifite ibara ry'umutuku zifite icyo zisobanura, iz'umukara n'iz'ubururu.

Igikoresho bifashisha batubura inyandiko， ushiramo umubare w'impapuro，bakakwereka aho ukanda bitewe n'umubare w'izo ushaka ko zivamo. Bityo akazi kagakorwa byihuse， nko mu mashuri ndetse n'ahandi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cy'ifashishwa n'ingeri zitandukanye z'abantu. Gifite inyobozi ku buryo kugikoresha bitagoye, inyobozi ziriho zifite ibara ry'umutuku, n'iry'umukara. Zikaba ari ikimenyetso cyo guteranya, n'icyo gukuramo.

Insengero zigomba kuba zubatse ahantu buri wese abasha kugera, yaba muzima cyangwa ufite ubumuga, ntizibe kure y'imihanda kandi umuhanda nawo ukaba wujuje ubuziranenge.

Urusengero rwiza rwubatse ahantu heza, rufite n'aho guparika imodoka z'abaje gusenga, rufite igisenge ciza kandi gikomeye kitari nyakatsi, bituma abaje kurusengeramo batagira ikibazo c'uko rwabagwaho.

Imodoka nziza, inzu nziza, ubusitani, ibi byose ni ibiranga iterambere u Rwanda rigezeho, aha abanyarwanda tutakigenda n'amaguru, ahubwo tukanatura mu nzu nziza, imvura igwa ntitunnyayagirwe, cangwa ngo twimuke kubera gutura kwazo.

Imodoka yagenewe gutsindagira umuhanda mu rwego rwo kongera ibikorwa remezo, iri gukoreshwa itsindagira umuhanda w'igitaka, kugira ngo abaturage ndetse n'abaturiye aho hantu babone inzira nziza banyuramo.

Urusengero runini cyane rurimo intebe zikomeye, rwubatse mu buryo bwa kijambere, hasize amarangi, igisenge cya ho gikomeye ku buryo abasengeramo, nta kibazo bahagirira habe na gitoya.

Itsinda ry'abakozi bakora mu muhanda, bambaye umwambaro ubaranga ndetse n'ibimodoka binini biri kubafasha mu kazi kabo, mu rwego rwo kugeza ibikorwaremezo mu rwanda birimo imihanda ndetse n'ibindi bitaba ahandi.

Ikoraniro ry'abemeramana baje gusenga abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, abana bato bahagaze imbere y'urusengero rwubatse neza, mu buryo bwubahirije amategeko biteguye kwinjira ngo basenge.

Icapa gishushanyijeho imodoka cerekanaga ko Ugo muhanda gwemerewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye: nk'imodoka, amagare, amamoto n'ibindi byose twifashisha mu ngendo.

Leta nziza ntishobora gukorera muri nyakatsi, ubuyobozi bwacu, ibiro bigiye bitandukanye usanga bifite inyubako nziza ari n'abanyamahanga bifuza kugira iwabo, bakizera na serivisi zitangirwamo.

Ikibuga ciza gikinirwamo umukino w'amaboko, cubatse neza cubakishije isima hasi ku buryo badahura n'ikibazo c'ivumbi, kirimo n'imirongo y'umweru igena imiterere y'ikibuga n'uburyo abakinnyi bahagarara mu kibuga.

Urusengero rwiza rwubatse rwitegeye amahumbezi y'ibirunga, rusakaje amabati meza atari nyakatsi mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abarusengeramo, bityo roho nzima igatura mu mubiri mu muzima.

Umudugudu mwiza w'icyitegererezo, utujwemo abaturage benshi bafite ibikorwa remezo: Nk'amazi, umuriro w'amashanyarazi, ubusitani bwiza, kandi abaturage benshi batuye ku buso buto.

Uruja n'uruza rw'abaturage bahuriye ku kiraro ciza bubakiwe mu mudugudu wabo, ndetse hari n'urutoki rwiza cane bigaragara ko rwubahirije amategeko y'ubuhinzi kuko rusa neza, rufite ibara ry'icatsi rutarimo uburwayi.

Urusengero rwiza rwubatse neza ruteye neza rufite ibikorwaremezo nk'amazi, ndetse n'amashanyarazi, ubusitani bwiza ku buryo abahasengera baba bafite n'umwuka mwiza.

Kiliziya nazo, zigomba kubakwa neza, maze abaje kuzisengeramo abaturage cyangwa se abemeramana bakagira roho nzima zubatswe mu mubiri muzima, ndetse zinasengera mu nyubako zimeze neza ku buryo zitagwira.

Ishuri ryiza ryubatse ku buso buto bifashishije kuryubaka rigeretse, rikakira abanyeshuri benshi kandi riri ku buso buto. Ryubatse rifite igisenge gikomeye ndetse n'utwuma turinda hejuru ku buryo rwose abaryigamo nta kibazo bahagirira.

Ibendera ry'igihugu rishinze ahantu hirengeye imbere y'inzu ikoreramo ibiro by'akagari, nk'ikimenyetso c'uko ako kagari ari urwego rumwe mu nzego zikorera mu gihugu cacu c'u Rwanda.

Inzu yubatse hagati y'amashamba, yateza ibyago bigiye bitandukanye. Abantu bayituyemo bashobora kugwirwa n'ibiti ibyo bikaba byakurura impfu, zigiye zitandukanye z'abantu, bitewe n'amashamba akikije inzu.

Amashuri gubatse neza， gafite ubusitani ndetse n'inzira zigiye zitandukanye， zafasha abagagendamo，zisakaye，ku buryo batashobora kunyagirwa igihe imvura iri kugwa cyangwa ngo bandure.

Inyubako za leta ndetse n'insengero zikorera mu gihugu cy'u Rwanda, zigomba kuba zubatse ku buryo bunoze. Zifite ubusitani imbere ya zo, zifite ibisenge bikomeye, ku buryo zitateza impanuka ku bazisengera.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugeretse. Ifite ubusitani bwiza bubereye ijisho， ifite n’aho guparika imodoka z'abaje bayigana， iyi nyubako nta handi wayisanga uretse mu gihugu giteye imbere.

Ipoto yakoreshejwe hakwirakwizwa amashanyarazi mu bice byose by'igihugu. Amashanyarazi gafasha abanyeshuri kwiga neza, bagatsinda ibizamini byabo.

Ishuri ryubatse neza ku buryo bugeretse bigaragara ko ari uburyo bwo kurinda ubutaka, bwubaka ku buso buto kandi rirakomeye kuko nta kibazo ryateza abanyeshuri, baryigamo kuko ryaba risakaye nabi.

Umudugudu w'icitegererezo wubatswe mu buryo bugeretse muri gahunda yo gutuza abaturage benshi ku buso buto. Uyu mudugudu ufite ibikorwa remezo nk'amazi, umuriro, imihanda inyuzemo hagati.

Icyumba mpahabwenge cyubatse neza, kirimo mudasobwa nyinshi ziri ku tumeza twiza, harimo amashanyarazi azikoresha, abakobwa benshi bitabiriye kuza kwiga gukoresha mudasobwa.

Urusengero rwubatse neza ku buryo bw'icerekezo, ndetse n'ikoraniro ry'abakirisitu cyangwa sebemera amaha baturutse imihanda yose, binjira ku murongo nta kubyigana, mu rwego rwo kwirinda indwara ndetse no guhutazanya kandi baje gusenga.

Ihuriro ry'abaturage bicaye hamwe mu nama batuje ngo bakemure ibibazo bibabangamiye. Baba abagore cangwa abagabo, bose bahabwa ijambo, bakabaza ikibazo mu nama nta ukumiwe cyangwa ngo asubizwe inyuma.

Icyumba gitunganijwe neza abaturage bicaye batuje abagore n'abagabo barasobanurirwa n'ubuyobozi byinshi mu nshingano zabo, ndetse harimo n'uburenganzira bwabo kugira ngo babane neza.

Inteko y'abaturage abagabo n'abagore bicaye, abandi barahagaze bategera amatwi umuyobozi ngo bumve neza ibyo ababwira bicaye ku mucaca mwiza, bafite n'ikirere cyiza.

Inteko y'abaturage, ihuriyemo abagore n'abagabo, bicaye batuje ku ntebe z'imvunwa, bategereje kumenya icyo abayobozi babateguriye kubabwira, ku bijanye n' uburenganzira bwabo, ndetse n'inshingano bafite nk'abenegihugu.

Ihuriro ry'abaturage bicaye batuje basa neza abagore n'abagabo, bose bafite uburenganzira bwo kwicara mu nama ,bagategera amatwi ico umuyobozi yateguye kubabwira nta n'umwe uhejwe.

Ihuriro ry'abaturage bari mu cyumba giteguye neza bigaragara ko ari inama yahabereye, abagabo n'abagore abasore n'inkumi bose bafite uburenganzira bungana bwo kwitabira inama, no gukoresha indangururamajwi batanga ibitekerezo byabo.

Inteko y'abaturage bahuriye hamwe ngo bige uburyo bakemura ibibazo bibazengurutse. Abagore n'abagabo bose bafite uburenganzira bwo kubaza ibibazo bafite, barifashisha indangururamajwi kugira ngo n'uwicaye inyuma yumve neza ikibazo cyabajijwe n'imyanzuro cyatanzweho.

Mu korosha uruja n'uruza rw'abaturage， ntibakigenda n'amaguru rwose hari imodoka nziza zo kubatwara，zikabavana hamwe zikabajana mu duce bagiyemo bitagoranye cyangwa ngo bibafate igihe kirekire.

Mukorosha urujya n'uruza rw'abantu, ntabwo abaturage bo mu Rwanda tugihagarara ku muhanda, kuko imodoka nziza nini zitwara abagenzi ari nyinshi mu mihanda, kandi n'iyo mihanda ikaba yubatse neza, ku buryo kugenda bitakigoranye.

Indege mu Rwanda ntigitambuka ngo abaturage twihishe, kuko iterambere ryatugezeho twese, aho ibibuga by’indege byubatswe, tukanazibona ziri kuguruka mu kirere cyacu.

Ikibuga cy'indege iterambere rigaragarira buri wese, aho urujya n'uruza rw'imizigo ruba ruturuka hanze ruza imbere mu gihugu cyacu, ku buryo ibituruka mu mahanga n'ibijyayo tubibona mu buryo butworoheye bitabanje kutugora no kudufata iminsi myinshi.

Mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu, indege na yo irifashishwa. Mu Rwanda hari ibicuruzwa biva mu mahanga bizanwa n'indege. Abagenzi na bo bakava ahantu hamwe, bakaja mu bindi bihugu mu buryo buboroheye hifashishijwe indege.

Imodoka nini itwara abagenzi n'imizigo ya bo. Ivuye mu gihugu kimwe igihe kwinjira mu kindi. Igeze ku mupaka ugabanyije ibyo bihugu byombi. Hari n'icyapa kigaragaza umupaka.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'ubwihariye moto nazo zitwara abagenzi, amagare ibyo byose iyohubatswe ibikorwaremezo nk'imihanda, bifasha mu gutwara abantu n'ibintu.

Ukora akazi ko gutwara abantu akoresheje moto agomba kugira umwambaro umuranga. Akagira ingofero zimurinda impanuka ariwe ari n'umugenzi atwaye. Moto ye na yo igomba kuba ifite ubwishingizi.

Iterambere mu Rwanda ryo gutwara abantu n'ibintu byafashije byinshi. Imodoka nziza zitwara n'abanyeshuri ku mashuri bityo kwiga ntibabe bakivunika bakora ingendo zibavuna bava mu misozi baja kwiga.

Urujya n'uruza rw'abagenzi abagore, abagabo ,abana ibinyabiziga ,inyubako bahuriye muri gare n'ubwo bahuriye muri gare nta muntu ugomba guhutaza undi, uburyo bwo kubatwara nabwo buba bwitaweho.

Uruja n'uruza rw'imodoka zitandukanye. Zaba izitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'izitwara abantu ku buryo bwigenga, zose mu Rwanda ziraboneka. umuturage wese ushatse gutega imodoka, ayibona mu buryo bworoshye.

Umugore utwara ibintu kuri moto ntoya yitwa rifani bikamubera isoko yo kubona amafaranga gamutungira umuryango bityo ntaheranwa n'ubukene cyangwa ngo ibintu ashaka kuvana hamwe abijana ahandi bibure uko bihagera.

Ibikorerwa mu nganda ni akazi gatanga amafaranga ku bantu benshi mu ngeri zitandukanye ababishira mu mifuka, ababipakira imodoka z'ubwikorezi ,ndetse n'ababitwara bakabigeza ku masoko aho bigiye, bose babona amafaranga mu buryo bugiye butandukanye.

Umugore utwara moto byari igisebo mu Rwanda. Ariko kuri ubu kubera uburinganire n'ubwuzuzanye, abagore ntibasigaye inyuma mu kazi ko gutwara abagenzi kuri moto ndetse n'indi mirimo.

Umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto utunze benshi mu gihugu cyacu kubera ko dufite imihanda myiza gutega moto ni uburyo bwiza buba bwihuse uhabwa ingofero irindade umutwe wawe kandi n'umumotari ugutwaye.

Uruja n'uruza rw'abantu ruhuriye mu mihanda myinshi zitandukanye, bajya guhaha, abandi bavayo, nk'uko mu Rwanda nta bantu bacirirwa bicaye ahubwo bose bamenye gukura amaboko mu mufuka, kugira ngo babone ibibatungira imiryango.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bahuriye muri gare . Abagenzi bafite imitaka y'amabara atandukanye nk'umutuku, ubururu n'ibindi. Ibi byose bigaragaza iterambere mu Rwanda kuko batakigenda n'amaguru ahubwo batega imodoka .

Imihanda myiza yorohereza abatwara ibintu nabantu. Moto na zo zikabona aho zitwarirwa, bityo abamotari ndetse n'abandi benshi, bakabona amafaranga gaziturutseho, binyuze mu kazi ko gutwara abagenzi n'ibintu.

Imodoka ipakiye ubwoko bwinshi bw'imboga buhingwa, bupakiwe mu bikoresho byabugenewe harimo karoti, ibihaza, inyanya, ibibiringanya ndetse n'ubundi bwoko bwinshi bw'imboga.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi n'ibintu , abantu benshi muri gare ndetse n'ibyapa by'itumanaho byose bihuriye muri gare nk'igikorwaremezo gikomeye mu gihugu cacu.

Ibikorwa remezo mu Rwanda bikomeje kwiyongera. Harimo za gare aho urujya n'uruza rw'abagenzi bava abandi baja mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cacu c'u Rwanda.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, kugira ngo babe bafite isuku bahabwa umwambaro wabugenewe, kandi bakaba bagomba gutwara bambaye ingofero zirinda imitwe yabo ndetse n'umugenzi batwaye bakamuha ingofero, mu rwego rwo kwirinda impfu zituruka ku mpanuka.

Ku uruja n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, mu muhanda mwiza wa kaburimbo ukozwe neza, muri ibyo binyabiziga harimo moto zitwaye abagenzi ndetse n'imodoka zitwaye abagenzi, ndetse n'ibintu byabo.

Umusaruro w'imboga zitandukanye inyanya , intoryi n'izindi nyinshi zipakiwe mu bisanduku byabugenewe byuzuye , zipakiwe akamodoka kazijyanye ku isoko kazivana mu mirima.

Akamashini kifashishwa mu ngendo, aho umugenzi afata ikarita akayishyiraho amafaranga agakoza kuri ya mashini amafaranga ariho yaba ahagije, imashini ikamwemerera gukomeza urugendo, mu buryo bwo kwirinda kugendana amafaranga mu ntoki.

Amakamyo manini akora akazi ko gutwara ibicuruzwa abikura mu gihugu kimwe abijana mu kindi, akambukiranya imipaka, agatanga imisoro ifasha kubaka ibikorwa remezo by'igihugu.

Uruja n'uruza rw'abaturage baturutse impande zose z'igihugu, bahuriye muri gare ahagaragara imodoka nyinshi ziteguye kubatwara, zikabakura mu gace kamwe zibajana aho bagiye, bityo bikorosha ingendo za bo, ibyo bagiye gukora bakabikora mu gihe gitoya kandi batavunitse cane.

Imodoka nini cane itukura yo mu bwoko bwa fuso ipakiye umucanga iwuvana mu gace kamwe iwujana mu kandi, bityo abawubakisha bakagera ku bikorwa remezo mu buryo bworoshe.

Igare ni igikoresho cifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu. Iyo uriteretseho nk'ibitebo birimo nk'inyanya ukazijana ku isoko, zigerayo zimeze neza.

Gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda ntibisaba imodoka gusa. Ahubwo no mu nzuzi zacu ndetse n'imigezi hakoreshwamo ubwato buto buba bukozwe mu biti bugafasha mu gukura abantu hamwe bukabajana mu tundi duce.

Ihuriro ry'abaturage ku mpande z'umuhanda aho bari kureba umusore uri ku igare mu isiganwa ry'amagare, inyuma ye hari akamodoka kamucungiye umutekano, kubwo ikoranabuhanga bari gufotoza telefone zabo.

Umukobwa ufite igikoresho cifashishwa mu gukina imikino, ikoreshwa n'amaboko bicaye ku kibuga ciza, gitunganijwe aho imyitozo ngororamubiri abagore n'abakobwa batasigajwe inyuma mu kuyitabira.

Mu myitozo ngororamubiri gusiganwa ku magare bimaze kumenyerwa mu Rwanda, haba abanyarwanda, haba abanyamahanga bose bararyitabira iryo rushanwa, bafite amagare yabugenewe n'ingofero zibarinda.

Ikipe y'abakobwa n'abagore bafite ubumuga bw'ingingo, bafite insimburangingo zibafasha kugenda nkuko abafite amaguru tugenda, bari mu kibuga ngo bakine umupira w'amaguru.

Mu rwanda imikino n'imyidagaduro yateye imbere ku buryo bwose bushoboka. Ikibuga cyubatse neza cyo gukinaho umukino w'umupira w'amaboko kigaragarira buri wese abakobwa n'abahungu bakagikiniraho bakagirana ubuzima bwiza.

Abantu impande zose z'umuhanda ukoze neza, bari kureba abari gusiganwa ku magare. Inyubako nziza zikikije uwo muhanda ku buryo abasiganwa n'abaje kubareba bose bafite umutekano.

Ikibuga tucifashishaga turigukina, twirinda indwara kugira ngo tugire amagara mazima kandi tube abanyarwanda batagira indwara mu mubiri.

Ikibuga cyubatse neza ku buryo umuntu wese washaka kugikoreramo siporo atabura aho akorera， cyane ko ari isoko y'ubuzima bwiza，ndetse no kwirinda ubunebwe tugira ibyo twitabira.

Imyitozo ngororamubiri mu Rwanda ni isomo ryumvikanye neza, abakobwa n'abagore nabo baryumviye ku mwanya waryo, kwirukanka ku maguru ni umwitozo w'ingenzi mu buzima bwabo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru， bagomba kugira imyenda myiza ibaranga，kugira ngo batandukane n'abatoza ndetse n'abafana， bityo mu gufashwa kugira ngo bakine neza， bakubakirwa n'ibibuga byiza， bikababera isoko y'ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye muri Sitade baje kwihera ijisho umukino w'umupira w'amaguru. Ikibuga gikoze neza n'abakinnyi bafite imbaraga, bari kugikiniraho n'umusifuzi uri gukurikirana imigendekere y'uwo mukino.

Abana bato abakobwa n'abahungu bafite amagare yabugenewe ya siporo, bambaye ingofero zirinda imitwe yabo, mu rwego rwo kwitoza kuba bakwitabira amarushanwa yo gusiganwa ku magare.

Umupira wo gukina haba ku bakina uw'amaguru ndetse n'uw'amaboko . Uyu mupira bigaragara ko ari musha , ufite amabara meza arimo ubururu , umuhondo n'umweru.

Mu mikino n'imyidagaduro mu Rwanda habamo umupira w'amaguru. Umwana w'umukobwa na we yemerewe kwitabira iyo mikino. Imipira yo gukina nayo iboneka mu buryo bworoshe kuko ku maduka yose wayisangaho.

Abakuru, abatoya bose bakwitabira gukina aho usanga abakinaga bose bagiraga ubuzima bwiza, ndetse bakaniteza imbere mu rwego rwo kubona amafaranga yo kubatungira imiryango.

Ikipe y'abasore bari mu myitozo ngororamubiri, birukanka bambaye imyambaro ibabereye, kandi iriho nimero zibaranga, ndetse n'inkweto zibafasha kuyirukanka, bitandukanye n'abahinzi, cangwa se abantu bari mu bindi byabo.

Gusiganwa ku magare ni umukino usigaye warabaye gikwira, aho rwose mu Rwanda ubu hari n'ibigo byinshi biwushyigikiye, ndetse n'abasore b'inkwakuzi bawitabiriye ku rwego rwiza.

Urubyiruko rw'abana b'abakobwa bambaye imyenda yabugenewe, bari gusiganwa ku maguru birukanka, nk'imyitozo ngororamubiri iboneka hano iwacu mu Rwanda, mu rwego rwo kwitungira amagara mazima.

Abaturage benshi，abagore n'abagabo， abakuru n'abato， baturutse imihanda myinshi，baje bakikije umuhanda， barangamiye abari gusiganwa ku magare，ikirango cy'uko uwo mukino usigaye uri mu mikino ikunzwe mu Rwanda.

Abakobwa bambaye neza imyenda itababangamira mu gutwara amagare, ingofero zirinda umutwe, ahantu heza hatunganijwe, hari ubusitani bubafasha kubona umwuka mwiza mugihe bari gutwara amagare nka siporo .

Abagore n'abakobwa barakataje mu kwitabira imikino ngororamubiri. Kwirukanka, gukina umupira w'amaguru, byose hagamijwe kuba abaturage bafite ubuzima bwiza ndetse binjiza n'amafaranga.

Mu guteza imbere imikino mu gihugu cyacu, leta yubatse ibibuga bimeze neza, imyambaro myiza ku bakinnyi, bakanabahemba neza bigatuma ibyo nabyo biba mu bifasha urubyiruko kwidagadura no kwirinda ubwigunge.

Ihuriro ry'abakinnyi harimo Abanyarwanda, Abanyafurika muri rusange, abanyamahanga, abanyaruhu rwera bitabiriye umukino gw'amagare, benshi cyane kandi bambaye neza ku magare meza bitegura isiganwa.

Umuhanda ukoze neza, akazu kavomerwamo amazi, amashuri, amashanyarazi, ibyapa biranga amerekezo y'umuhanda, ibyo byose nibigaragaza ibikorwaremezo mu Rwanda ko byateye imbere.

Mu bikorwa-remezo byashyizwe imbere mu Rwanda, imihanda na yo ntiyasigaye, aho ubungubu bitakiri ngombwa ko umuntu akura atari yabona umuhanda w'umukara, ahubwo n'iwabo mu giturage, imihanda y'umukara isigaye rwose ihagera.

Ahari ibikorwa remezo nk'imihanda zubatse neza ibintu byose birashobokaga ubu rwose umunyarwanda afite age mafaranga agura akamodoka keza kamutemberezaga akava ahantu hamwe akaja ahandi yitwaye mu kamodoka ke.

Umuhanda ni igikorwa remezo cyiza, kandi mu Rwanda imihanda rwose yageze hose. Ni ingenzi cyane rero ko tuyifata neza, bityo tukamenya ko umutungo uyigendaho wagakemuye n'ibindi.